Ababyeyi bagana ikigo nderabuzima, haba harimo abatwite, abarwaye, abavunitse ndetse n'abashaka serivisi zitandukanye, tugane ikigo nderabuzima icyo ari cyo cyose kuko kwivuza ni ingirakamaro mu buzima bwacu.

Kwa muganga hari umwana ufite ikibazo cyo mu maso, barimo barareba mu maso ye kugira ngo muganga arebe ko uwo mwana ataba afite uburwayi bw'ishaza ryo mu maso, kugira ngo abashe gukurikirana uburwayi bw'uyu mwana akiri mutoya.